Abagabo babiri bahetse amapombo arimo umuti bari mu murima urimo ibihingwa bigaragara y'uko ibi bihingwa byari birwaye, bakaba bazanye umuti kugira ngo babitere kugira ngo bizakure neza, babone umusaruro mwiza bakaba baje kubitera umuti.

Umurima munini w'umuceri urimo umuntu uhetse ipombo irimo umuti ari kugenda atera muri uno muceri, biragaragara ko wari wahuye n'uburwayi, bakaza kubona yuko byabangamira umusaruro, bakazana uno muti ngo batere muri uno muceri, hirya y'uyu muceri kandi hakaba hariyo ibiti birebire.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye umupira wumukara w'amaboko maremare akaba yambaye nipantaro ahetse ipombo irimo umuti bigaragara ko ari mu muririma wumuceri usa nk'urwaye akaba ari kuwutera umuti kugira ukire.

Umuhinzi uri mu murima ahetse ipombo bigaragara yuko ari gutera umuti muri ino myaka, bikaba bigaragara ko iyi myaka yari yaragize ikibazo cy'uburwayi akayifashisha uno muti kugira ngo bukire iyi myaka izere neza.

Umuntu wambaye impuzankano yabigenewe, bigaragara ko ari gutera umuti mu bihingwa bimuri imbere, akaba yambaye uno mwambaro kugira ngo uyu muti utamujyaho akagira ikibazo agira. Ibi bimera kandi ari gutera umuti biragaragara ko byari byarwaye, akazana n'umuti mu rwego rwo kugira ngo bikire.

Umugabo muremure w'umukara wambaye ingofero akaba yambaye ikabutura n'umupira w'amaboko magufi, akaba ahetse ipombo mu mugongo ari gutera umuti mu mashu, aya mashu biragaragara nkaho yari arwaye ariko akaba ari kuyateramo umuti kugira ngo akire.

Umuntu uhetse ipombo irimo umuti, akaba ari mu murima ugaragara nk'urimo imyaka ikiri mitoya itarera ariko iyi myaka ikaba ishishe, nubwo bari kuyitera umuti kugira ngo wice ubukoko bwajemo bwawubangamira bigatuma bitera neza.

Umugabo muremure wirabura yambaye umupira wubururu uciye amaboko, n'ipantaro y'umukara, afite ipombo mu mugongo ari mu murima w'ibigori bikiri bitoya biragaragara ko ibigori birwaye, akaba ari kubitera umuti kugirango bizakure neza abone umusaruro.

Umugabo wambaye impuzankano yabugenewe ahetse ipombo itera umuti, biragaragara ko ari mu murima urimo ibihingwa byari birwaye, akaba ari kubitera umuti kugira ngo ubwo burwayi bugende bizere bimeze neza.

Umugabo muremure ufite imbafu mu ntoki biragaragara ko ari imbere y'uruzi uru ruzi bikaba bigaragara yuko yororeramo amafi, akaba afite ibintu ari kuyigaburira, kandi hirya y'aha hantu biragaragara ko ari ahantu hari ubutayu bigaragara yuko nta byatsi byinshi bihari hakaba hari ibiti byonyine bihagaze.

Umugabo uhagaze iruhande rw'uruzi bigaragara yuko afite ibintu mu ndobo, bikagaragara yuko uru ruizi ari uruzi bororeramo amafi, akaba asa nk'aho ari kuyagaburira kandi hirya y'aya mazi hakaba hari umurima w'urutoki bigaragara ko rusa neza rwabonye amazi ahagije.

Abantu bunamye bigaragara yuko imbere yawo hateretse akantu karimo amafi, hirya yabo kandi hakaba hari amazi bakuyemo amafi, bigaragara yuko ahantu ari ubwororero bw'amafi, hirya yaho kandi hakaba hari umurima uhinzemo imyaka myinshi bigaragara ko ari ahantu bahinga.

Umugabo muremure w'urukara wambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi, afite amafi mu ntoki ari iruhande rw'icyuzi, bigaragara ko aha hantu ariho amaze kuroba amafi, hijya ye hakaba hari umurima usa n'urimo umuceri, aha hantu kandi hakaba hari n'urutoki, hirya y'aho hari n'ibiti birebire.

Umusore muremure w'imibiri yombi wambaye ishati y'amaboko maremare ahagaze ahantu bigaragara ko hari ahantu haretse amazi bigaragara ko ahantu hororerwa amafi by'umwihariko uyu akaba ari umworozi w'amafi, hiryaye kandi hari ikindi kizu bigaragara ko gihingwamowo ibindi bimera kandi hirya ye na none hakaba hagaragara ibiti.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo uciye amaboko, ateruye bavu irimo amafi agaragara ko aya mafi amaze kuyaroba hirya ye kuko hari ibyzi bororeramo aya mafi, hirya y'ibi byuzi kandi hagaragara ibyatsi bisa neza, bigaragara yuko byabonye amazi ahagije bigakura neza.

Ubwororero bw'amafi bugaragara ko aya mazi yororerwamo amafi, hakaba harimo akazu gasa nk'akifashishwa kugira ngo aya mafi akure neza, hirya y'aho kandi hakaba hari ibiti birebire, bigaragara ko aha hantu habona imvura ihagije.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye isengeri y'umweru akambara n'ipantaro y'umukara afite ifi mu ntoki bigaragara ko ari iruhande rw'uruzi ari kurobamo zino fi, hirya kandi y'uru ruzi hakaba hagaragara ibiti bisa neza bigaragara ko bituriye amazi.

Abantu benshi bari ahantu hari uruzi biragaragara y'uko aha hantu hari hasanzwe haba amafi, bakaba bari kuyaroba kugira ngo bayajyane kuyagurisha kandi hirya yaho hakaba hari ibyatsi bisa neza bigaragara ko byabonye amazi ahagije bityo bigakura neza bikaba bisa neza.

Amafi arambitse ahantu bigaragara ko bayarobye bakaba bayashyize hano mu rwego rwo kugira ngo baze kubona uko bayatunganya neza bagiye kuyagurisha, aya mafi kandi biragaragara ko nyirayo ahantu yayakuye ari mu ruzi ya ayororeramo akaza kuyakura muri urwo ruzi ayajyana kuyagurisha.

Umugabo muremure w'urukara wambaye ishati y'umweru irimo andi mabara iciye amaboko n'ipantaro y'umukara ahagaze imbere y'amazi, bigaragara ko ahantu yororeramo amafi akaba afite n'ibiryo agaburira ano mafi ye, hirya ye kandi nanone hakaba hari umurima uhinzemo urutoki.

Umugore muremure w'imibiri yombi wambaye isurubeti n'umupira uciye amaboko, ahagaze ahantu mu mazi bigaragara ko hororerwa amafi, hirya y'ayamazi hakaba hari ibyatsi bishishe n'ibiti bigaragara yuko ahantu habonye amazi ahagije bityo bino bimera bigakura neza.

Abarobyi benshi bari mu bwato, bakaba bafite ibikoresho bifashisha baroba amafi, bakaba bari impande y'uruzi runini, bigaragara ko ariho bagiye kujya kuroba, abantu kandi iyo barobye amafi, bibafasha kwiteza imbere kuko bayagurisha bakabona amafaranga.

Umugabo wimibiri yombi wambaye umupira w'umuhondo aciye amaboko, akaba agaragara ari mu mazi bigaragara ko aya mazi yororerwamo amafi, hirya yayo kandi hakaba hari ibiti bisa neza bigaragara ko aha hantu hari ibimera bishishe byabonye amazi ahagije.

Abantu bateraniye mu murima bigaragara ko uyu murima uhinzemo umuceri kandi uno muceri ukaba ugeze igihe cyo gusarurwa kuko ugaragara ko weze, hirya yaho kandi hakaba hari ibiti bishishe bigaragara ko aha hantu habonye imvura ihagije.

IUmuma munini urimo abahinzi benshi bisa nkaho bari gusarura kuko bafite udutebo, bari gusarura kandi umurima uhinzemo icyayi, iki cyayi kikaba kigaragara ko kigeze igihe cyo gusarurwa na bo bakaba bari kugisarura.

Umuhinzi wunamye we gutera umuceri ahantu hasa nkaho ari mu gishanga kuko uyu murima umenwemo amazi menshi bigaragara ko ari gutera uyu muceri ahantu hari amazi menshi, bizafasha uyu muceri gukura neza ukasarurwa na neza.

Imisozi miremire ihinzemo icyayi, bigaragara ko aha hantu habonye imvura ihagije, kuko icyayi kirimo kirasa neza, hirya y'iki cyayi kandi nk'uko nabivuze, hari imisozi miremire bigaragara ko, aka gace kagizwe n'imisozi miremire.

Abantu bahagaze barimo abagore n'abagabo, bigaragara yuko hasi yabo hari udufuka turimo ikawa yeze bari kwerekana, berekana ko basaruye umusaruro mwiza, ikawa kandi irasa neza nk'aho aho yari ihinze haguye imvura ihagije, inyuma yabo kandi hari amazu bigaragara ko aha hantu hasanzwe haba abantu.

Abantu barimo abagore n'abagabo bateraniye ahantu bigaragara ko bari gusarura ibihingwa bahinze bigeze igihe cyo gusarura kuko byarumye, ahantu kandi bikaba bigaragara ko babonye imvura ihagije bigatuma bino bimera byera neza.

Umurima w'icyayi urimo abantu benshi bari kugisarura, bisa nkaho aba bantu bahetse ibitebo bari kugenda bashyiramo iyi kawa, iyi kawa kandi bikaba bisa nkaho yeze neza kuko irasa neza, ibibabi byayo biri kugaragara neza.

Umugabo muremure w'urukara wambaye umupira w'umuhondo uciye amaboko ari mu murimakawa bigaragara yuko ino kawa itarera iki ntoya akaba bigaragara yuko ari iye ari kureba aho igeze ikura, hirya ye kandi hakaba harimo urutoki, urutoki rusa neza.

Itsinda ry'abahinzi bari ahantu bicaye, biragaragara yuko bari gutoranya ikawa bakuramo ibihuhwe, babitandukanya n'ikawa nzima, biragaragara ko aha hantu bahahuniye kugira ngo baze gutoranya ikawa bakuremo imbi bayijugunye hasigare inziza.

Umurima uhinzemo ikawa, iyi kawa biragaragara ko hariho iyeze n'iteze, kandi biragaragara none ko iyeze ariyo nyinshi kuko iteze icyatsi kibisi igaragaza umubare mukeye, kandi ino kawa biragaragara ko yeze neza.

Umurima munini uhinzemo icyayi ukaba urimo abahinzi basa nk'aho bari gusarura kino cyayi, kuko bafite ibitebo inyuma yabo bari gusoromeramo kino cyayi. Iki cyayi kandi kikaba kigaragara ko cyari kigeze igihe cyo kwera, bakaba bari kugisarura.

Igiti kiriho ikawa itukura bigaragara ko ino kawa yeze, hakaba hari umuntu ugaragara ari kuyisoroma, bigaragara yuko bigeze igihe cyo gusarurwa akaba ari kuyisarura, ino kawa kandi bigaragara yuko yabonye imvura ihagije kuko isa neza.

Umugore muremure wimibiri yombi wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, ateruye agatebo karimo ikawa bigaragara ko avuye gusagura ikawa kandi ahantu ari inyuma ye hari umurima urimo urutoki.

Umurima munini uhinzemo ikawa, iyi kawa ikaba igaragara ko ihinze ku murongo ifite isuku, kandi ino kawa bikaba bigaragara ko ikiri ikawa ntoya itarera, bikaba bigaragara ko ahantu iri ishishe habonye imvura ihagije.

Umurima munini bigaragara ko uhinzemo umuceri uyu muceri ukaba urimo umuhinzi arimo arawukorera uyu umuceri biragaragara ko ukiri ibitonore utaragera igihe cyo kwera aha hantu uhinze kandi bigaragara ko habonye imvura ihagije kuko uyu muceri urasa neza.

Igiti kiriho ikawa yeze hakaba hariho n'indi nkeya iteze, iyi ikawa iragaragara neza nk'aho ahantu haguye imvura nyinshi ihagije, bityo bikayifasha kwera neza, hirya y'iyi kawa na ho kandi hakaba hari ibindi bimera bisa nk'aho byabonye imvura ihagije.

Umugore ari mu murima w'icyayi afite ibitebo bigaragara ko ari gusarura kino cyayi, icyayi kandi kikaba gisanzwe nk'ikigeze igihe cyo gusarura kuko kimeze neza, hirya y'icyo cyayi kandi hakaba hari ibiti birebire.

Abantu bunamye bari gushyira ibiti bikiri bitoya mu dutete bigaragara yuko ibi biti bagiye kubitera ahantu, aha byari biri aho bazirijwe bikahakurira bakaba bari kubyimura bakaba bagiye kubijyana mu modoka iparitse imbere yabo.

Umurima munini w'ikawa biragaragara ko irimo umuhinzi wikoreye bimwe mu byo yasaruye, iyi kawa bigaragara ko igeze igihe cyo gusarurwa bari kuyisarura, iyi kawa kandi ikaba igaragara ko yeze neza yabonye imvura ihagije.

Igiti kinini kiriho ikawa itukuye, bigaragara ko iyi kawa yeze neza bityo ikaba igeze igihe cyo gusarurwa kandi biragaragara ko iyi kawa ahantu ihinze habashije kubona imvura n'ifumbire bihagije bityo ino kawa ikaba yareze neza.

Umuririma w'icyayi munini urimo abantu bari kugisoroma, biragaragara yuko iki cyayi kigeze igihe cyo kugisarura, kandi aha hantu iki cyari gihinze biragaragara ko ari agace k'imisozi miremire kuko harimo imisozi igaragara inyuma yabo, hirya yabo kandi hakaba hari ibiti.

Umugore w'urukara wambaye umupira w'umuhondo uciye amaboko, ari mu murima urimo ibihingwa, bigaragara yuko hari ikawa ari gusarura ikaba yarageze igihe cyo gusarurwa, akaba aricyo gikorwa ari gukora. Hirya yayo kandi hakaba hagaragara hari ibindi bihingwa, urutoki rusa neza rwabonye imvura ihagije.

Abantu bateraniye aha hantu biragaragara ko harimo umugabo uteruye igiti, bigaragara ko hano hantu bahahuriye bari gutera ibiti kugira ngo barinde umuyaga, hano hantu kandi bikaba bisanzwe hari ibyatsi bisa neza, bigaragara ko aha hantu haguye imvura ihagije.

Ikiraro kirimo inka za kizungu, biragaragara ko izi nka ziri kurisha zisa neza kuko baziha ubwatsi ku gihe kandi hakaba harimo n'isuku, izi nka kandi ikiraro cyazo kikaba kizitijwe n'ibyuma bikomeye bigaragara yuko mwabyubatse neza.

Umugore muremu w'imibiri yombi wambaye umupira w'ubururu uciye amaboko, ari mu murima w'ibigori, ibi bigori biragaragara yuko bikiri bito bitarera kandi ibi bigori bikaba bisa neza nkaho ahantu biri habonetse imvura ihagije.

Urwuri runini rurimo ishyo ry'inka zinzungu izi nka hakaba hari umuntu urigukama igaragara ko aya masaha arayagukama, hirya y'ururwuri kandi hakaba ha ibindi bimera bisa neza bigaragara yuko ahantu habonye imvura ihagije.

Umurima ugaragaramo abahinzi bari gukorera bino bimera bihinzemo, iyi myaka kandi bikagaragara ko ari mitoya bari kubagara, bageze igihe cyo kubagara bakuramo ibindi byatsi bitari ibi bihingwa, bakaba bagira ngo bino bihingwa bizabashe kwera neza.

Ikiraro kigaragara ko ari ahantu bororera inka, izi nka zikaba ari inka ziba mu biraro kandi hakaba hahagaze umushumba wazo bigaragara ko yazizaniyeye ku ubwatsi ziri kurisha, ikiraro kandi kikaba cyubakishijwe n'ibiti binini kinasakajwe amabati.

Urwuri rurimo inka z'inzungu nyinshi. Biragaragara ko uru rwuri rurimo ubwatsi bwiza, izi nka zirimo zirarisha. Hirya y'izi nka kandi hakaba hariyo ibiti birebire bishishe, bigaragara ko aha hantu hagwa imvura.

Umumama w'imibiri yombi wambaye ikanzu iciye amaboko, ari kubwanikiro bw'ibigori, urabona ko afite n'ibindi bigori mu ntoki bigaragara ko bari guhungura biriya bigori. Hari n'ibindi bigori byanitse bidashishuye kugira ngo birinde gupfa.

Mu murima munini uhinzemo ibigori harimo abantu basa nkaho bari kubikorera kuko bino bigori bitarakura neza, barasa nkaho bari kubibagara. Aha hantu hahinze ibigori kandi biragaragara ko habonye imvura nyinshi ihagije kuko bisa neza.

Umurima urimo abantu bafite amasuka bigaragara ko bari kuhahinga haravuye imyaka bakaba bari gutegura umurima kugira ngo bazabone uko bahingamo iyi indi kandi hirya yuy'umuma hakaba hari ibiti birebire bigaragara yuko ahantu habonye imvura ihagije bityo bino biti bisa neza.

Umurima munini urimo abahinzi bari guhinga kuko bafite ibikoresho bifashisha bahinga harimo amasuka, aba bahinzi bakaba bari muri uno murima bari guhingamo ibi ibihingwa bikaba bigaragara neza nk'ibihingwa byabonye imvura ihagije bikabasha gukura neza.

Umugabo ufite igare ahetseho imyaka, biragaragara ko uyu mugabo avuye gusarura ibintu yari yarahinze, akaba abicyuye kandi ahantu ari kunyura biragaragara ko ari ahantu hari ibyatsi byinshi kuko biragaragara ko byamubujije no gutambuka.

Abantu bateraniye ahantu hari ibiti, bigaragara ko bari gufata bino biti bikiri bitoya kugira ngo bajye kubitera, ibiti kandi bakaba bagiye kubitera mu rwego rwo kugira ngo bizabafashe kurinda umuyaga, kandi bibayungururire umwuka bahumeke mwiza.

Umurima munini uhinzemo ingemwe z'ibiti biragaragara ko aha hantu ari ahantu hifashisha bagemeka ibiti, bakaza kubihakura bajya kubitera, ahandi hantu hirya y'aho hakaba hari ibiti birebire, bigaragara ko aha hantu habonye imvura ihagije ,bityo bino biti bigasa neza.

Ikiraro kirimo inka za kizungu bagaburiye ibyatsi zikaba zirigurisha, biragaragara yuko izi nka zirira muri bino biraro, izi nka kandi ziragaragara ko zishe zibona ubwatsi ku gihe, bityo umushumba wazo azitaho neza kugira ngo zibone umukamo uhagije.

Umukumbi w'ihene ziri ahantu hateranye ugira ngo ni mu isoko kuko hirya yaho hari abantu bigaragara yuko na bo ari benshi zitari iz'umuntu umwe ahubwo bakaba bazizanye hano kugira ngo babone uko bazigurisha babone amafaranga kandi izi hene zikaba zibyibushye, zisa neza nkaho zabonye ubwatsi buhagije.

Abantu benshi bateraniye ahantu hari umusozi muremure, bigaragara ko aka gace kagizwe n'imisozi miremire, aha hantu kandi bagasa nk'aho bari mu muganda kuko hari ibihuru byinshi bari gukuraho, hejuru y'aho kandi hakaba hari ibiti birebire.

Umugore n'umugabo bigaragara yuko bari mu rwuri rw'inka, aha hantu hakaba hari inka z'inzungu zisa neza, bigaragara ko aba bantu bakora ubworozi bw'inka, ahantu bari kandi hakaba hari ibiti birebire bigaragara yuko aha hantu hagizwe n'ibiti byinshi.

Abagore babiri bigaragara yuko bavuye mu murima kuko umwe yikoreye urukwi, bari kunyura mu kayira gatoya kari ahantu mu ishyamba, iryo shyamba rikaba ririmo ibyatsi birebire bigaragara nk'ibiri kuma, ahantu ko bigaragara hari izuba nubwo atari ryinshi cyane.

Umugore wambaye igitenge akaba ateruye agafuka mu ntoki akaba ari mu murima, bisa nk'aho avuye gukura ibyo yahinze, kandi hirya ye hakaba harambitse isuka bigaragara yuko yayikoresheje ari gukura bino bintu afite mu kadeyi, hirya kandi hakaba hagaragara nk'ahari urutoki.

Umugore wunamye mu murima bisa nk'aho afite akantu karimo igiti ari gutera muri uno murima usanzwe urimo ibishyimbo bitoya, bigaragara ko bamaze igihe gito babiteye, inyuma ye hakaba hari abandi bantu basa nk'aho bari kumufasha gutera bino biti.

Umugabo muremure w'urukara wambaye umupira uciye amaboko. Bikaba bigaragara ko ari umuhinzi. Ari mu murima w'umuceri ugaragara ko ukiri mutoya. Akaba ari kubagara akuramo ibindi byatsi bitari umuceri kugira ngo umuceri ukure neza.

Umugabo muremure w'umukara wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, afite umuhoro mu ntoki bigaragara ko ari mu murima w'urutoki bigaragara ko ari gukorera isuku runo rutoki.

Umurima munini uhinzemo urutoki, uru rutoki rukaba ruhinze muri uno murima rusa neza bigaragara ko rwabonye ifumbire n'imvura bihagije, bityo bikabasha gusa neza, bikaneraho urutoki bakabona ibyo barya.

Umurima munini uri ahantu harambuye bigaragara ko uyu murima uhinzemo umuceri, uyu muceri kandi ukaba uhishije, bigaragara ko ugeze igihe cyo gusarurwa, bakaba batarawusarura ariko bitegura kuwusarura.

Umuhanda w'ibitaka bigaragara ko harimo abaturage bari kugenda abandi baza bikaba bigaragara ko uno muhanda uri mu mudugudu utuyemo abaturage bakaba bawukoresha babasha kugendajya kureba serivisi zitandukanye hakaba kandi hari ibiti birebire.

Imboga zisa neza bigaragara ko ziri mu karima k'igikoni, izi mboga zikaba zigaragara yuko zabonye imvura ihagije bityo zigakura neza, hirya y'izi mboga kandi na ho hari ibiti bigaragara ko byakoze neza kuko byabonye amazi nayo ahagije.

Umurima munini uhinzemo ibigori, ibigori biragaragara nk'aho bigeze igihe cyo gusarurwa, bigaragara ko agace kamwe banagasaruye, hakaba hasigayemo ibindi bihagaze ariko na byo bagiye kubisarura, hirya yabyo hakaba hari ibiti birebire.

Birimo ibihingwa bikaba bigaragara ko uno murima ibihingwa birimo bisa neza byarabonye imvura ihagije, kandi uyu muririma ahantu uri bisa ari nk'ahantu hari imisozi miremire hirya yaho kandi hakaba hagaragara amazu bigaragara yuko hatuye abaturage.

Umuhanda muremure w'igitaka bigaragara ko uri kugenderamo abaturage, uyu muhanda kandi ukaba hirya yawo hari amago, bigaragara ko aha hantu hatuye abantu kandi hirya y'uyu muhanda nanone hakaba hari umurima w'ibitoki bigaragara ko uru rutoki rusa neza.

Umurima munini uri ahantu harambuye uhinzemo intoryi, bigaragara ko izi ntoryi zisasiye ibyatsi kandi ahantu izi ntiryi ziri biragaragara ko hirya yaho hari ibiti birebire.

Umurima munini urimo ibigori, ibigori biragaragara y'uko byasambuye bigeze igihe cyo kwera, ibigori kandi bikagaragara ko bishishe bigaragara ko byabonye imvura n'ifumbire bihagije bikabasha gukura neza.

Igiti kiriho imbuto bigaragara ko ari manderina, izi mbuto kandi zikaba ari imbuto ziribwa, iki giti kirasa neza nk'aho ahantu kiri habonye imvura ihagije, bityo bigafasha ziino mbuto kwera neza.

Umurima uhinzemo ibishyimbo bikiri bitoya biragaragara ko uyu murima umaze igihe gitoya uhinzwemo ino myaka. Ibi bishyimbo kandi biragaragaramo ibindi bimera bigaragara yuko bigeze igihe cyo kubagarwa kandi aha hantu hakaba hari ibishyimbo bisa neza.

Umurima munini urimo umuceri biragaragara ko uyu umuceri ugeze igihe cyo kwera kandi ahantu uri, umuceri biragaragara ko ari mu gishanga kuko imiceri akenshi niho yera kuko ariho haba amazi menshi.

Agahanda karekare k'ibitaka kari ahantu hasa nkaho hari ikibuga kirekire, bigaragara yuko nta bihingwa byinshi bihahinze usibye ibyatsi bikeya, hakaba hari amapoto atwara umuriro, bikagaragara ko hano ari ahantu h'imisozi miremire.

Umurima munini urimo ibitunguru biragaragara ko ibitunguru bisa neza byabonye amazi ahagije bityo bigakura neza, aka gace biragaragara y'uko gafite imvura ihagije kuko ibi bimera byameze neza biranasa neza.

Umurima uhinzemo avoka iki giti cya avoka kiragaragara nk'igiti kimeze neza cyabonye ifumbire, kikaba kitabwaho buri munsi kugira ngo kizabashe gukura neza, kere voka babone uko bazigurisha babone amafaranga.

Umugabo wambaye ishati y'umweru iciye amaboko n'ipantaro y'umukara, ari mu murima w'urutoki bigaragara yuko aha uyu murima uri havuyemo ibigori kuko ibigoshogo bya byo birambitse hasi, kandi uyu mugabo akaba asa nk'uri gusharira runoo urutoki arukuraho ibintu bishaje kugira ngo rugume rumeze neza.

Umurima urimo ibigori biragaragara ko ibi bigori bigeze igihe k'isarura kuko byarumye, hakaba muri uno murima harimo ibiti birebire, hirya yabyo harimo amazu bigaragara y'uko haba abantu muri kano gace.

Umurima uhinzemo imyaka itandukanye hakaba harimo n'ibigori, ibi bigori kandi bikaba bigaragara nk'ibigori byumye, bikaba bigaragara ko kandi hafi yaho hari indi myaka isa neza nk'aho aha hantu habonye imvura ihagije bityo ino myaka irimo ikabasha gukura.

Umurima urimo imyumbati, iyi myumbati birasa nk'aho ikiri muto itarera, umurima kandi ukaba usa nk'uhinze bigaragara y'uko bakuyemo ibyari bihinzemo, bakaba bitegura guhingamo ibindi, hirya y'uyu murima kandi hakaba hari amazu bigaragara y'uko ahantu hasanzwe haba abantu.

Igiti cy'ipapayi kiri mu murima uyu murima biragaragara ko wabonye imvura ihagije kuko iki giti kirashishe, kimeze neza kandi hirya yacyo hariyo ibindi biti bigaragara ko ahantu hasanzwe ari umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye.

Umurima urimo ibisheke bigaragara yuko bino bisheke bikiri bitoya, kandi imbere y'aho bikaba bisa nk'aho hari ibindi bahatemye byari bigeze igihe cyo kwera, hirya y'ibi bisheke kandi hakaba hari amazu, asize irangi ry'ubururu n'amabati agezweho bigaragara ko ahantu hatuye abantu.

Umurima urimo imigozi y'ibijumba, imigozi kandi ikaba ishishe, bigaragara ko hano haguye imvura ihagije, bityo bino bijumba bikaba bisa neza, nk'ibyabonye imvura ihagije.

Umurima munini uhinzemo ibisheke biragaragara ko ibi bisheke bigeze igihe cyo gusarurwa kuko byararabije bikaba byarakuze bigaragara, kandi ahantu hahinze ibiseke biragaragara ko bisa neza habonye imvura ihagije bityo bigakura neza.

Umurima munini uhinzemo imyumbati, biragaragara ko ino myumbati itarera ikiri mito, kandi ino myumbati ikaba ishishe nk'aho aha hantu habonye imvura ihagije, kandi hirya yayo hakaba hari ibiti birebire.

Umurima urimo ibigori ibi bigori bikaba bigaragara nk'ibigori bigeze igihe cyo gusarurwa kuko bireze neza amababi yabyo yatangiye kuma bigaragara ko ibyo bigiye kuma, kandi uyu murima ukaba bigaragara ko wezemo ibigori byiza.

Umurima munini uhinzemo umuceri, uyu muceri biragaragara ko weze ukaba ugeze igihe cy'isarura kandi uno muceri nanone ukaba ugaragara nk'umuceri weze neza wabonye imvura n'ifumbire ihagije bityo bikawufasha kwera.

Umurima munini ugaragara nkaho ibyari bihinzemo byasaruwe ukaba warateguwe kugira wongere hahingwemo ibindi, hirya y'uyu murima kandi hakaba harimo ibiti birebire kandi hakaba hari n'umurima w'ibitoki bigaragara ko ibi bitoki bishishe byabonye imvura ihagije.

Umurima munini uhinzemo ibigori bisa nk'aho bikiri bitoya, kandi aha hantu hakaba hagaragara hari nk'imisozi miremire, bigaragara ko kano gace kagizwe n'imisozi miremire, kandi uno murima w'ibigori ukaba ugaragara bisa neza nk'aho aha hantu habonye imvura ihagije.

Umurima munini urimo ibiyuzi, bigaragara ko ibihingwa byeho ibidegede, bityo bigafasha abantu kwiteza imbere kandi ahantu hari runo ruyuzi biragaragara ko habonye imvura ihagije kuko uruyuzi rwabashije gukura, rurera n'ubwo ntabiriho, bisa nk'aho babisoromyeho.

umurima munini usa nk'urimo ibintu bitwitse, bigaragara ko ibyari bihahinze babitwitse kugira ngo babashe kubona umwanya bahinge bateremo ibindi, hirya yabo kandi hakaba hari urutoki runini.

Umurima munini ugaragara ko uhinzemo ibigori, ibi bigori kandi biragaragara nk'ibigori bito bitarera, ibi bigori bikaba bisa neza nk'ahantu byabonye imvura ihagije bikabasha kumera neza, bigakura na neza, kandi ikindi biragaragara ko nyiri kubihinga yashyizemo ifumbire bigatuma bibyibuha.

Umuhanda wa kaburimbo wubatse neza ugaragara yuko abaturage bakoresha banyuramo bava mu gace kamwe bajya ahandi. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ishyamba ririmo ibiti birebire bigaragara ko ahantu haguye imvura ihagije bityo bino biti bigakura neza.

Inzovu ziri mu ishyamba bigaragara ko iri shyamba rishishe ririmo ibiti byiza bigaragara kandi ko aha ahantu habonye imvura ihagije, bityo bino biti bikabasha gukura neza nta kintu kibibangamira.

Umurima munini uri ahantu hisanzuye, ukaba umeze nkuwahinzemo imyaka, iyi myaka kandi ikaba ishishe nk'aho yabonye imvura ihagije, hirya y'uyumurima kandi hakaba hari ibiti birebire nabyo bishishe bigaragara ko aka gace kaguyemo imvura ihagije.

Ishyamba rinini rigizwe n'ibiti birebire biragaragara ko ibi biti bishishe byabonye amazi ahagije, kandi ahantu ishyamba riri biragaragara ko ari ahantu h'imisozi miremire bityo hahanamye, kandi ibi biti bikaba bisa neza byarabonye imvura ihagije.

Umurima munini bigaragara ko aha hantu hatari imyaka kuko hagaragara ko nta mvura ihari, ibintu byaho birumye bigaragara ko aha hantu hatigeze habona imvura ahubwo haje izuba rikabije.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye agapfukamunwa, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare, afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko imbere ye hari abandi bantu ari kugira ibyo abwira, na bo bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo avuga.

Umirima minini uri ahantu hitaruye, bigaragara ko uyu murima urimo ibiti bitoya bitarakura, kandi uyu murima ukaba urimo ibyatsi bishishe, bigaragara ko aha hantu habonye imvura ihagije bityo ibi bimera bikabasha gukura neza.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi bigaragara ko ahantu iri shyamba riherereye, hari ahantu h'imisozi miremire kuko bigaragara y'uko hari imisozi miremire kandi ibi ahantu hari ishyamba biragaragara y'uko habonye imvura ihagije kuko ibiti biri muri riryo shyamba birasa neza.

Umuhanda muremure uri mu ishyamba bigaragara ko uno muhanda ari uwa kaburimbo, iryo shyamba riwukikije rikaba ririmo ibiti birebire cyane, bigaragara ko hirya y'uyu muhanda na none kandi hari amapoto atwara umuriro, bigatuma uno umuhanda umurikirwa.

Ishyamba rinini riri ahantu h'umusozi bigaragara ko iri shyamba ririmo ibiti bitoshye, bigaragara kandi neza ko aha hantu habonye imvura ihagije bityo bino biti bigakura neza.

Abantu bateraniye ahantu ari benshi harimo abagore n'abagabo, birasa nkaho bari mu gikorwa cy'umuganda kuko bafite ibikoresho byifashishwa bakora umuganda nk'umuhoro n'amasuka, aba bantu kandi ahantu bari hakaba hari ibihuru, bisa nk'aho aribyo bagiye gutema.

Ishyamba ririmo ibiti binini bigaragara y'uko aha hantu ari ahantu h'imisozi miremire kandi iri shyamba rikaba ririmo ibiti bisa neza nk'aho byabonye imvura ihagije, bityo igafasha abino biti gukura neza ikaba bisa neza.

Ishyamba rinini ririmo ibiti byiza bigaragara yuko iri shyamba ryabonye imvura ihagije bikaba ngombwa yuko bino biti bikura, ibi biti kandi bikaba biri ahantu hari imisozi miremire, bigaragara yuko aka gace kagizwe n'ibice birimo imisozi miremire.

Ishyamba rinini ririmo ibiti bitandukanye biragaragara ko kandi aka gace karimo rino shyamba ari ahantu h'imisozi miremire, kandi aha hantu hari ririya shyamba bikaba bigaragara ko habonye imvura ihagije, bityo ibiti byaho bikabasha gukura bisa neza.

Umurima munini uhinzemo inanasi bigaragara ko izi nanasi zeze bigeze igihe cyo kuzisarura, izi nanasi kandi zikaba zisa neza nkaho ahantu ziri haguye imvura ihagije, bakaba baranazishyizeho ifumbire ihagije bityo zigakura neza.

Umugore wicaye ari mu murima w'inyanya, biragaragara ko afite ibitebo ari gushyiramo inyanya, izi nyanya zikaba ari inyanya zitukuye zeze, kandi biragaragara ko bagiye kuzigurisha kugira ngo babone amafaranga abatunga.

Umuntu ugaragara afite imboga mu ntoki, izi mboga kandi zikaba ziri amoko atandukanye harimo inyanya na karoti n'ibindi bitandukanye kandi bikaba bigaragara ko ari mu murima ahingamo izi mbuto, bikaba bigaragara yuko ari zo akoresha mu buzima bwa buri munsi abona amafaranga amutunga.

Umugore wunamye wambaye ikanzu iciye amaboko, akaba ari mu murima usa nkaho ari nk'akarima k'igikoni kuko arimo arakuramo ibitunguru byari bihinze muri uwo murima bisa nkaho byeze, hakaba hahinze n'intoryi bigaragara ko aha hantu ari mu rugo rw'uyu muturage.

Abagore babiri bari mu murima biragaragara yuko bari gutera imigozi y'ibijumba. Bakaba bari gutera ino migozi y'ibijumba kugira ngo bazabone ibyo barya banasagurire isoko. Hirya yabo kandi hakaba hari ibindi biti bigaragara ko ahantu habonye imvura ihagije.

Umurima uhinzemo inanasi biragaragara ko urimo umuhinzi bikaba bigaragara ko ari nyirazo, akaba ari kuzizenguruka kugira ngo arebe niba zimeze neza zizabashe kwera kuko ziracyari ntoya ntabwo ziragera igihe cyo kwera, bikaba bigaragara ko ari kuzigenzura azitaho.

Umurima munini urimo inyanya zihishije, biragaragara ko zino nyanya zigeze igihe cyo gusarurwa kuko zireze ziratukuye, kandi ahantu zihinze biragaragara ko ari za nzu zifashishwa bahingamo inyanya, bigaragara ko zino nyanya zeze neza.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye igisurubeti k'icyatsi kibisi, ateruye pavuro bigaragara ko avuye kuzisoroma muri uno murima ahagazemo kandi hakaba hagaragara yuko zishishe zabonye amazi, zikaba zeze neza.

Akarima k'igikoni gahinzemo ibihingwa bitandukanye, harimo amashu, ibitunguru n'ibindi, kakaba kandi aka kanwama k'igikoni gahinze neza, bigaragara ko umuntu wakubatse ari umuhanga. Hirya yaho kandi yaho hakaba hari amazu bigaragara ko ahantu hatuye abaturage.

Umugabo muremure wambaye ingofero n'umupira uciye amaboko. Ari mu murima afite umupira uri kuhira amazi muri uno muririma. Biragaragara yuko ino myaka ikiri mitoya itarakura bityo akaba ari kuyivomerera kugira ngo izakure neza.

Umudugudu munini bigaragara ko uyu mudugudu ugizwe n'amazu n'ibiti birebire birimo bigaragara ko biti biri mu rwuri rw'inka kuko bigaragara ko ari ahantu inka zikoresha zirisha. Uyu mudugudu kandi ukaba ugize n'ibiti bisa neza bigaragara ko ahantu habonye imvura ihagije.

Mu muririma uhinzemo amashu biragaragara ko harimo uruhombo ruri kuhiramo amazi, bigaragara ko kano gace katigeze kabona imvura ihagije haguye izuba ryinshi, bityo bakifashisha ano mazi buhira ano mashu.

Umurima munini urimo amatiyo asa nkaho ari kuvamo amazi ,bigaragara ko bari kuhira mbuto ka Kuko hano nta mvura yigeze ihagwa, hakaba haritabajwe izi mpombo kugira ngo amazi abone uko yuhirwa muri ino myaka.

Umurima munini uri ahantu hisanzuye urimo ibihingwa, hakaba harimo imashini iri kwifashisha izana amazi muri uno murima, bigaragara yuko aha hantu habonetse izuba ryinshi hakabura imvura yo kuhira bino bihingwa, bikaba ngombwa ko yifashisha kuhira aya amazi muri uno murima kugira ngo imyaka irimo ikure neza.

Umurima munini urimo abahinzi benshi, biragaragara ko ahantu hari mu gishanga kuko harimo imirima ihinze mu materasi, hirya yaho hakaba hari imifurege itwara amazi irimo n'amazi ariko bakaba bafite amarozwari bari kuvomerera imyaka ihari kugira ngo baba baraciye ano materasi kugira ngo imvura itazatwara imyaka yabo.

Umurima munini uhinzemo ibimera kandi uyu murima ukaba urimo ibikoresho bizana amazi muri uno murima, bigaragara ko bari kuhira ino myaka kugira ngo izere, bikaba bigaragara ko ahantu hari ahantu hagizwe n'izuba ryinshi, habuze imvura kugira ngo yeze bino bimera.

Umurima munini uhinzemo imyaka harimo umuntu ufite umupira urimo amazi, bisa nk'aho bari kuhira ino myaka ahantu hatse izuba ryinshi, hakaba hatarabonye amazi ahagije bakifashisha ano mazi buhira kugira ngo ino myaka yere, hirya yaho kandi hari urutoki.

Umurima munini urimo umuntu wambaye isengeri y'umweru, afite umupira uzana amazi bigaragara ko aya mazi ari kuyuhiramo mu murima hateyemo imbuto kugira ngo zimere neza, yazanye amazi yaho kandi biragaragara ko hari urutoki na none hakaba hari urugo bigaragara ko ahantu haba abantu.

Umurima munini ukozwe mu buryo bw'amaterasi y'indinganire, aha hantu hakaba hari abantu bafite umipira irimo kuvomerera amazi muri uno murima, bigaragara ko aha hantu ari ahantu hatigeze habona imvura ihagije yo kujyirango izeze imyaka bakitabaza ano mazi.

Abantu bambaye impuzankano yabugenewe bari mu murima uteyemo ibigori, n'amashu akiri mato, bikaba bigaragara yuko bafite umupira urimo amazi bari kuhira muri ino myaka, bigaragara ko ahantu bari hateye izuba rikabije, bakifashisha imipira, kugira ngo bahe amazi bino bihingwa. Hirya yabo kandi hakaba hari urutoki.

Umurima urimo umuhinzi, bigaragara ko afite ubutwari mu ntoki ari kuhira bino bihingwa, bigaragara ko ibi bihingwa ahantu biteye hatigeze habona imvura ihagije haguye izuba, bikaba ngombwa yuko bifashisha amazi kugira ngo ibi bimera.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi wamaboko aciye, akaba afite umupira ku rutugu, akaba yambaye ipantaro yahinnye, bigaragara ko ari mu murima urimo imyaka itandukanye, akaba afite umupira uzana amazi muri uno murima, bigaragara ko aha hantu hatigeze habona imvura ihagije, bakifashisha aya mazi kuhira iyi myaka.

Umugabo muremure w'urukara wambaye umupira w'ubururu uciye amaboko n'ipantaro y'umukara, ahetse ipombo mu mugongo ari mu murima w'ibigori bikiri bitoya bigaragara yuko bino bigori ari kubiteramo umuti byari byararwaye bikaba ngombwa yuko yifashisha uno muti kugira ngo birekere kurwara bityo azabone umusaruro mwiza.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa, uragaragara urimo imipira iciramo amazi, bikaba bigaragara ko bari kuhira, aha hantu kandi biragaragara yuko hatigeze habona imvura ihagije, bityo bakifashisha amazi yuhira kugira ngo ino myaka yere.

Umurimma urimo umugabo wambaye ishati y'umweru, ni'pantaro akaba afite umupira mu ntoki uri kuzana amazikuru n'umurima uhinzemo ibihingwa biragaragara yuko aka gace yahinzemo habonetsemo izuba ryinshi rikaba ryarumishije bino bihingwa bikaba ngombwa yuko bitabaza imipira y'amazi kugira ngo ibihingwa byere neza.

Abahinzi bambaye impuzankano yabugenewe bari mu murima urimo imyaka mitoya, iyi myaka kandi ikaba imo ibigori n'amashuri, uko bigaragara bafite imipira itwara amazi bari kuhira ino myaka, biragaragara ko aka gace katigeze kabona imvura ihagije bityo bakifashisha aya mazi buhira iyi myaka kugira ngo ikure.

Umurima munini urimo abahinzi biragaragara ko n'umurima uteyemo ibihingwa kandi aba bahinzi bakaba bafite imipira itwara amazi bigaragara ko aha hantu bari gushyiramo amazi agace karabuze imvura ihagije kugirango bino bihingwa bibashe kwera akitabaza amazi yo kuhira kugira ngo ibi bihingwa byere.

Abantu barimo abagabo n'abagore bakaba bari ahantu haza nk'aha hari amazi, bigaragara yuko bafite imipira iri kuhira imyaka, iri hano bigaragara yuko aha hantu hatigeze habona imvura ihagije, bitabaje aya mazi kugira ngo buhire ibihingwa byabo.

Abaturage bateraniye ahantu barimo abagore n'abagabo, biragaragara yuko bari kuhakora umuganda kuko bafite amasuka, bakaba hari n'umugore ufite umupira uri kuvomerera amazi mu hantu bari, kandi inyuma y'aho hakaba hari umurima w'urutoki, bigaragara ko ibi ibitoki byeze neza byabonye imvura ihagije.

Umurima munini uhinzemo imyaka hakaba harimo abantu bafite imipira bari kuvomera bigaragara ko aka gace kagize izuba ryinshi kakabura imvura yo kugira ngo yuhire bino bimera bakitabaza aya mazi.

Umuhinzi wambaye ingofero, akaba yambaye umupira w'amaboko maremare utukura, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, ahetse ipombo ari mu muririma w'umuceri bigaragara ko ari gutera umuti muri uwo muceri kugirango ukure neza.

Umurima munini urimo ibihingwa bikiri bitoya hakaba harimo imipira iri kuvomereramo amazi, bigaragara yuko aha hantu hatigeze habona imvura ihagije bityo bakazana ino mipira izana amazi kugira ngo buhire ino myaka izabashe kwera.

Umurima uhinzemo ibihingwa bisa neza kubera ko birimo imipira iri gushyiramo amazi, biragaragara ko ahantu hatigeze habona imvura ihagije, hafashishwa aya mazi buhira kugira ngo bazabone umusaruro mwiza bakuye muri ino myaka yabo.

Umugore wambaye ikanzu y'umukara n'ingofero, akaba afite umupira mu ntoki, bigaragara ko ari mu murima w'igishanga, akaba ari kuhira imyaka, biragaragara yuko aha hantu hasanzwe hari amazi menshi bakaba bifashishije nanone umupira kugira ngo bayasandaze ahandi atageze.

Umurima uhinzemo ibihingwa urimo imashini ivomerera bikaba bisa nk'aho bari kuvomerera iyo myaka, bikaba bigaragara yuko aha hantu habonetse izuba ryinshi, bityo ino myaka itari kubaho itabonye amazi, bakaba bazanye bino byuma kugira ngo bibashe gushyiramo amazi.

Umugore wambaye ikanzu iciye amaboko biragaragara ko afite umupira ari kuhira inanasi muri runo murima ahagazemo, izi nanasi zikaba zikiri ntoya zitarera ari kuzuhira kubera yuko uko aka gace kajemo izuba ryinshi ntikabona imvura ihagije kugira ngo yeze zino nanasi.

Imisozi miremire bigaragara ko aka gace kagizwe n'ibihano n'imisozi iri hejuru cyane bigaragara yuko hano hari ibimera bitandukanye harimo ibiti nabyo bibiri birebire bigaragara ko ahantu haguye imvura ihagije.

Umurima munini uri ahantu hari imisozi miremire, bikaba bigaragara ko uno murima urimo ibihingwa bitandukanye harimo ibitoki, uru rutoki kandi rukaba ruhinze ahantu hagaragara neza nk'aho habonye imvura ihagije kuko rurasa neza.

Ishyamba rinini rigaragara ko aka gace karimo imisozi miremire, iri shyamba kandi rikaba ririmo ibiti bitandukanye birebire bigaragara ko ahantu hantu habonye imvura ihagije bityo hagakuramo ibiti byiza.

Umurima munini uhinzemo icyayi bigaragara ko iki cyayi kigeze igihe cyo gusarurwa kuko gifite ibibabi bishishe ari nagikuru kandi ako gace kakaba kagaragara ko ari agace kagizwe n'imisozi miremire bityo bikaba bifasha ino kawa kwera neza.

Ishyamba rinini rigaragaramo ibiti byinshi bigaragara ko iri shyamba ahantu riri ari ahantu h'imisozi miremire kuko uko bigaragara harimo imisozi, kandi y'iryo shyamba rikaba ari ishyamba risa neza bigaragara ko habonye imvura ihagije.

Imirima ihinzemo ikawa iri ahantu h'imisozi miremire kandi iyo kawa ikaba isa neza nk'aho habonye imvura nyinshi ihagije, kandi biretse iyo cyayi hari n'ibiti byiza birebire bigaragara ko byabonye imvura.

Umudugudu munini bigaragara ko urimo amazu menshi, bigaragara ko ahantu hatuye abantu kandi na none bikaba bigaragara ko aha hantu hagizwe n'imisozi miremire kuko haragaragara imisozi myinshi kandi miremire kandi aha hantu hakaba harimo n'ibiti bigaragara ko ahantu habonye imfura ihagije.

Ishyamba ririmo imisozi miremire bigaragara yuko aha hantu ari ahantu h'agace kagizwe n'imisozi miremire. Iri shyamba kandi rikaba ririmo ibiti bisa neza nk'aho habonye imvura ihagije bityo bino biti bigakura neza.

Ishyamba rinini rigizwe n'ibiti birebire, aka gace kandi gaherereyemo rino shyamba biragaragara yuko ari ahantu h'imisozi miremire kuko hari ubutaka bugaragara hejuru nk'ahari umusozi. Hakaba kandi hari ibindi bimera bisa neza, bigaragara ko ahantu habonye imvura ihagije.

Umurima munini uhinzemo imyaka biragaragara ko aha hantu ibi bimera biri byabonye imvura ihagije kuko bisa neza, hirya yaho kandi hakaba hari ibiti bigaragara yuko na byo byabonye imvura ihagije bityo bigakura neza, bikaba birebire cyane.

Umurima munini uhinzemo urutoki uru rutoki bikaba rugaragara ko bisa neza rwabonye imvura ihagije bityo rukera neza, hirya yaho kandi biragaragara ko harimo inzu bigaragara ko aka gace gatuyemo abantu.

Ishyamba rinini ririmo ibiti bigaragara ko aha hantu hari imisozi miremire kandi iri shyamba ahantu riri hakaba harabonye imvura ihagije kuko hari ibiti bisa neza nkaho byabonye imvura ihagije bikabasha gukura.

Ishyamba ririmo ibiti birebire bigaragara ko hano hantu hari'imisozi miremire, ibi biti bikaba bigaragara bisa neza nk'aho byabonye imvura ihagije, bityo bino biti bikaba bishishe aka gace kaguyemo imvura ihagije kuko kafashije ibi n'ibindi bimera biri hano gusa neza.

Umudugudu munini bigaragara ko urimo amazu menshi, aya mazu akaba akikijwe n'ibiti bigaragara ko aha hantu nanone ari ahantu h'imisozi miremire kuko haragaragara imisozi kandi aha hantu hakaba hari ibiti bisa neza bigaragara ko habonye imfura ihagije bityo bino biti bigasa neza.

Umurima uri ahantu hari imisozi miremire biragaragara ko uno murima uhinzemo ibimera bishishe, bikaba byaraje biturutse kumvura yaguye ihagije bigatuma ibi bihingwa bikura bikaba bisa neza cyane.

Ikiyaga kirimo amazi menshi bigaragara ko kiri ahantu mu misozi miremire, hakaba hirya yacyo hari ibiti birebire bisa neza bigaragara ko byabonye amazi menshi kandi iyo misozi miremire ikaba irimwo igicu bigaragara ko ahantu hakonje.

Umurima munini ugaragara nk'aho uhinzemo icyayi, aha hantu kandi hakaba hari ari ahantu h'imisozi miremire; uko bigaragara, hari ibiti bishishe bisa nk'aho habonye imvura ihagije, bityo bino biti bihateye bikaba byarakuze neza.

Ikiraro cy'ingurube biragaragara ko harimo ingurube nini y'umukara, ingurube ikaba ifite ibibwana, ibi bibwana kandi bikaba bisa neza na nyina irasa neza bigaragara ko cyabonye ibiryo bihagije kandi naho biba haba isuku ihagije.

Ikiraro kirimo ingurube bikaba bigaragara ko izi ngurube ari aha hantu ziba kandi iki kiraro cy'ingurube kikaba kirimo ibiryo izi ngurube zirya. Izi ngurube kandi zikaba zisa neza nk'aho zahawe ibiryo bihagije, zikaba zinakorerwa isuku ihagije.

Urwuri runini rurimo inka z'inzungu, kandi bikaba bigaragara ko zifite inyana, zimaze igihe gito zivutse, kandi ururwuri rukaba rurimo ubwatsi bushishe bigaragara ko ari ahantu haguye imvura ihagije, bityo ururwuri rukaba rufite ubwatsi bwiza.

Urwuri runini rurimo inka z'inzungu, izi nka ziragaragara ko zibyibushye zisa neza, kandi uru rwuri rukaba rurimo ubwatsi busa neza, bigaragara ko aha hantu habonye imvura ihagije bityo ubwatsi buteye muri kano gace bukaba busa neza.

Ikiraro kirimo inka'zinzungu biragaragara ko izi nka zahawe ubwatsi ziri kurisha kandi izi nka zikaba zibyibushye zisa neza bigaragara ko bazitaho, hirya y'iki kiraro kandi hakaba hagaragara amazu, bigaragara ko aka gace gatuyemo abantu.

Ikiraro kiza kirimo inka z'inzungu izi nka zikaba zibyibushye zigaragara ko zitabwaho zikabona ibyatsi ku gihe zikarya zikamera neza, kandi iki kiraro cy'izi nka kikaba gisakaje amabati meza hakaba hariho n'inkingi zifashe iyi nzu bigaragara ko ikomeye cyane. Hirya yaho kandi hakaba hari ibiti bigaragara yuko hasa neza imvura yagwiriye igihe.

Ikiraro kirimo inka za kizungu, iki kiraro kandi kikaba kirimo abashumba bizi nka, bigaragara ko bafite ibyansi bari gukama izi nka kugira ngo babone amata banywa basagurire n'isoko, babashe kwiteza imbere bagura ibintu bitandukanye.

Inka nyinshi z'inzungu ziri mu rwuri rwazo, uru rwuri rukaba rugaragaramo ubwatsi bwiza, bigaragara ko hano hantu habonye imvura ihagije bityo hakebona ubwatsi neza, hirya y'aho kandi hari ibiti birebire bigaragara ko na byo bishishe.

Abaganga b'amatungo bambaye impuzankano yabugenewe, baragaragara bari mu kiraro k'inka, aho bari gukingira zino nka bisa nk'aho zari zirwaye, bakaba baje kugira ngo bazivure, hirya y'aho kandi hakaba hari ibiti bigaragara neza nk'aho byabonye imvura ihagije.

Urwuri rurimo inka z'inzungu zisa neza. Biragaragara yuko aha hantu hafite ubwatsi bwiza habonye imvura ihagije bityo zino nka zikaba zirisha zigahaga. Hirya y'aho kandi haragaragara ikiraro gisa nkaho ari ho zino nka zitaha.

Abantu bafite ibyansi bigaragara ko bari gukama zino nka z'inzungu zisa neza kandi biragaragara ko aho bari kuzikamira ari mu kiraro cy'izi nka, izi nka kandi aya mata bakaba bayifashisha bayanywa bakaba basagurira n'isoko bakabona uko bateza imbere.

Urwuri rurimo ishyo ry'inka izi nka zikaba ari inka zigaragara ko ari inzungu, urwuri kandi rukaba rurimo ubwatsi busa neza, ituma izi nka zirisha zigasa neza nazo, hirya yaho kandi hakaba hari ibiti birebire.

Urwuri rurimo inka nziza z'inzungu biragaragara yuko izi nka zishishe zabonye ubwatsi bwiza nk'uko bigaragara urwuri zirimo rukaba rurimo ibyatsi bisa neza nkaho ahantu habonye imvura ihagije bityo buno ubwatsi bukamera neza.

Ikiraro kirimo inka y'inzungu, iyi nka kandi ikaba igaragara ko isa neza yahawe ubwatsi buhagije, iki kiraro kandi kikaba cyubakishije ibiti, hirya yaho naho hakaba hari ibimera bisa icyatsi kibisi bigaragara ko ahantu habonye imvura ihagije.

Inka ziri mu kiraro cyazo, izi nka zinagaragara nk'inzungu kuko zirasa neza kandi izi nka zikaba ziri muri kino kiraro ziherwamo ubwatsi, zikaba zigaragara yuko zitabwaho neza, kandi izi nka ikiraro cyazo kikaba cyubakishijwe ibiti n'ibi byuma bizifasha kuguma muri kino kiraro.

Urwuri runini rurimo inka, izi nka zigasa nk'iziri kurisha ubwatsi buri muri uru rwuri kandi ko rwaguyemo imvura nyinshi ihagije kuko ubwatsi bwayo bwo burasa neza.

Abavuzi b'amatungo bambaye imyenda yabugenewe bakoresha iyo bari kuvura ano matungo, bakaba bari ahantu hari inka z'Inyambo bigaragara yuko zifite amahembe ateze neza, aha hantu kandi hirya yaho biragaragara ko hari urwuri rw'izi nka harimo ibiti bisa neza.

Icyumba kirimo inkoko bisa nk'aho ari aho zororerwa, iki cyumba kandi kikaba kirimo ibyo kurya by'izi nkoko za kizungu, izo nkoko kandi mo imbere muri ino nzu hakaba harimo utuntu twabugenewe bayishyiramo amazi, bityo izi nkoko ahantu ziba zikaba zibona ibyo kurya bihagije.

Ingurube inini iri mu kiraro cyayo ikaba ifite ibibwana byinshi biri kuyonka, ibwana kandi bikaba bisa neza nk'aho iyi ngurube cyonsa neza, iki kiraro kandi cy'ingurube kikaba kirimo ibyoku kurya by'iyi ngurube yifashisha irya kugira ngo imere neza.

Ikiraro kirimo inka za kizungu, biragaragara ko iki kiraro kirimo zino nka cyubatse neza kuko kirakomeye kandi izi nka zikaba zigaragara nk'inka zishishe zisa neza zahawe ubwatsi zikabasha kubyibuha.

Ihene nyinshi ziri kurisha mu rwuri rwazo, uru rwuri rukaba rurimo ibiti byiza bishishe bigaragara ko aha hantu habonye imvura ihagije, hirya yaho kandi hakaba hari umushumba uri kureberera zino hene kugira ngo zitajya kona imyaka.

Inzu igaragara nk'ikiraro k'ingurube kuko harimo ingurube zigaragara ko zirimo kurya, bazihaye ibyatsi kugira ngo zibone uko zibyibuha. Izi ngurube kandi zirasa neza nk'aho zibona ibiryo bihagije, zikaba ziri mu kiraro cyubakishijwe imbaho.

Urwuri rurimo ishyo ry'inka z'inzungu biragaragara ko iri shyo rifite inka nziza zisa neza zariye ibyatsi bisa neza kuko bigaragara, ibi byatsi byabonye imvura ihagije bikura neza, hirya yaho kandi hakaba hari ibiti birebire bigaragara biri muri ibwo bwatsi.

Umugabo muremure wambaye umupira w'maboko maremare akaba yambaye ikote z'umweru n'ipantaro y'umukara, ari mu kiraro yororeramo inkoko biragaragara ko ari udushwi kandi hakaba harimo ibikoresho bitandukanye yifashisha yorora zino nkoko harimo utuntu bashyiriramo izi nkoko amazi n'ibiryo.

Umugore wunamye wambaye umupira urimo amabara y'umutuku n'umweru uciye amaboko, akaba yunamye ahantu hanitse ibigori bisa nkibyanitse kuri shitingi kandi ibi bigori bikaba bisa nkaho byeze neza, hafi aho kandi hakaba hari ibyatsi.

Umugabo muremure w'umukara wambaye ingofero akambara ishati y'amaboko magufi, akaba yambaye n'ipantaro afite inkoni mu ntoki, ari mu cyumba gisa nkaho ari ubuhunikiro bw'imyaka kuko harimo imifuka ipakiye imyaka.

Abantu bigaragara ko bari gusarura ibirayi, ibi birarayi bakaba bari kubisarura babishyira mu mufuka uri imbere yabo, uyu mufuka ukaba ari umufuka w'umweru kandi aba bantu bikaba bigaragara yuko ari abahinzi bari gusarura bino ibirayi kugira ngo babone uko babigurisha babone amafaranga.

Itsinda ry'abantu bicaye bafite ibishyimbo ku masahani bigaragara ko abantu bari gutoranya bino bishyimbo nka mbere yabo kandi hakaba hari amapafu nayo arimo ibishyimbo byinshi bigaragara ko bari kubitoranya bagahita babishyira muri nobeve kandi biragaragara ko ibi bishyimbo bisa neza byeze ahantu hari hari ubutaka burimo ifumbire.

Itsinda ry'abantu bateraniye ahantu rigaragara yuko hanitse ibigori bisutse hasi, aba bantu kandi bikaba bigaragara ko ba nyiri'ibigori bakaba bahagaze hirya yawo hari ibiti, hakaba hari n'amazu bigaragara ko ahantu hasanzwe haba abantu.

Abantu barimo abagore n'abagabo, bari mu murima muremure uri ahantu hisanzuye, imbere yabo hamenye ibigori bisa nk'ibyanitse ku biboshogo byabyo, ayu muririma barimo kandi hirya yawo, haragaragara nk'ahantu hari imisozi miremire.

Umuvuzi w'amatungo wambaye impuzankano yagenewe, akaba ahagaze imbere y'inka iri mu kiraro cyayo asa nk'uri kuyibyaza inka ikaba igeze igihe cyo kubyara, akaba ari kuyifasha ngo ibyare neza, kandi iki kiraro cy'inka kikaba cyubakishijwe ibiti.

Umuvuzi w'amatungo wambaye igisurubeti cy'ubururu cy'amaboko maremare, akaba ari mu kiraro cy'inka, bigaragara ko afashe inka ari kuyivura iyi nka ye ikaba yagize ikibazo, bakaba baje kwifashisha bano bavuzi b'amatungo kugira ngo bayiteho.

Umuvuzi w'amatungo bigaragara afite itungo ryagize ikibazo mu ijosi, akaba ari kuryitaho kugira ngo ribashe gukira iki gikomere ryagize, biragaragara ko kandi uno muvuzi afite ibikoresho bitandukanye bivura amatungo.

Ishyo ririmo inka z'inyambo bigaragara ko izi nyambo ziri mu kiraro cyazo kandi izo nyambo zikaba zifite amahembe ateze neza, hirya y'izo nka hakaba hari ibiti birebire bigaragara ko aha bisanzwe ari mu rwuri rwazo.

Umuntu wambaye isurubeti y'icyatsi y'amaboko maremare, bigaragara ko ari umworozi w'inkoko kuko ari mu kiraro kirimo inkoko za kizungu, bigaragara ko ari kuziha ibyo kurya n'amazi yo kunywa kugira ngo zibashe kubaho azabone uko azigurisha.

Umuvuzi w'amatungo wambaye impuzankano yabugenewe. Akaba yambaye na bote z'umweru. Bigaragara yuko apfukamye hasi ari gushyira umuti mu gakoresho afite mu ntoki. Bigaragara ko hari inka cyangwa irindi tungo rirwaye agiye kuba yatera uno muti.

Ishyamba ririmo imbogo ebyiri biragaragara ko zino mbogo ziri kurwana, izi mbogo kandi zikaba ziri muri rino shyamba zisa neza rigaragara nk'iryabonye imvura ihagije bityo ibiti birimo n'ibyatsi bikaba bisa neza.

Inzovu nini bigaragara ko zibyibushye akandi ziri zikaba ziri ku mugezi w'amazi bigaragara ko zashotse zaje kunywa amazi, ahantu ziri kandi biragaragara ko ari ishyamba ariho zitaha kuko hirya yayo hari ibiti bihishe binini.

Ishyamba rinini ririmo inyamaswa z'udushyumbashyamba, biragaragara ko gashumbashyamba kari kurisha, aha ngaha muri bino bishyamba ririmo ibiti birebire biri hirya, ibiti kandi biragaragara ko bishishe ahantu habonye imvura ihagije.

Ishyamba rinini ririmo inyamaswa zitandukanye harimo udusumbashyamba, Impara n'imparage iri shyamba kandi rikaba ritunze zino nyamaswa, hakaba harimo ubwatsi zisa nk'aho ziri kurisha iri shyamba kandi rikaba ririmo n'ibiti birebire.

Udusumbashyamba turi mu ishyamba, bigaragara ko aha hantu turi ari ahantu zisanzwe ziba, ahantu ziri kandi hakaba hari ibyatsi birebire, hijya y'aho hakaba hari ibiti bikuze byumye, bigaragara ko ahantu hari izuba.

Ishyamba rinini ririmo inyamaswa z'imbogo, izi mbogo kandi zikaba ziri muri rirno shyamba ririmo ubwatsi bwiza zigaragara nk'izigurisha, iri shyamba kandi rikaba ririmo ibiti binini, bigaragara ko iri shyamba ryabonye imvura nyinshi bituma bino biti bikura neza.